Ibishushanyo mbonera ni bimwe mu byifashishwa n'abahanga mu bwubatsi, ibi bikabafasha mu kubaka imihanda myiza, ibitaro, ibibuga by'imyidagaduro ndetse n'amashuri, cyane cyane mu bihugu biri gutera imbere, ibi birushaho mu kuzamura ubuzima bwiza bw'abaturage.

Urujya n'uruza rw'abantu bavoma ku migezi yo mu cyaro, aho usanga abana b'incuke boherezwa gushaka amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, abana ugasanga babikora bafite urugwiro kandi biganjemo gufashanya kugira ngo buri umwe agere ku cyo yatumwe.

Ibura ry'amazi yo kunywa asukuye, rimwe na rimwe usanga mu buzima bwacu bwa buri munsi dukoresha amazi mu kuyanywa adatetse ha atarimo imiti yi'ca udusimba bikatugiraho ingaruka kandi mu gihe tuyanywa tuba dukwiye gukoresha ibikoresho bisukuye byo kuyanyweramo, tukirinda kuyanywa dukoresheje intoki kugira ngo turinde ubuzima bwacu.

Urujya n'uruza rw'abantu bajya gushaka amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho bifashisha ibivomesho ndetse n'imigezi baba barubakiwe gusa usanga ikoranye ubuhanga nk'aho amazi bavoma aturuka mu bujyakuzimu.

Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite umuco gakondo mwiza, aho usanga abarugenda, abarusura baturuka mu mpande zose z'Isi bishimira imyambarire y'abari ndetse n'abategarugori b'u Rwanda, bagashimishwa n'ibibaranga byose byerekeye imyambarire.

Ikigo gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda, nyakubahwa Jeanette Kagame yaganirije abaturage abagaragariza ibimenyetso biranga umuntu ufite ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'uko bwakwirindwa.

Hari ubuzima budakwiye kuturanga nk'umuco w'abanyarwanda cyane cyane ibijyanye n'imyitwarire tugaragaza ya buri munsi, rimwe na rimwe hakunze kugaragara amashusho y'urukozasoni no kwifotoza wambaye ubusa ntabwogo bi babikwiye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda, aho abaturage bahura n'inzobere mu buzima, bagasuzumwa ku ndwara zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Abo zisanzwemo bakavurwa, ndetse n'abo zitabonetsemo bakagirwa inama z'uburyo zirindwa.

Indwara yo kwigunga ni indwara ikunze kugaragara mu bantu cyane cyane ,urubyiruko ibi ngibi bikaba biterwa n'ibibazo umuntu aba afite ariko ntabe yarabashije kubiganiriza bagenzi be. Ni ngombwa yuko umuntu ugaragayeho iyi ndwara yo kwigunga aganirizwa na bagenzi be

Ubuzima bwo mu cyaro akenshi na kenshi burangwa n'uko abana b'inshuke ndetse n'abigiye hejuru ho gato batumwa amazi yo gukoresha bitwaje ibivomesho, ibyo bakabikora bagendana nk'itsinda bikaba bituma bakora umurimo bawukunze kandi bashishikaye.

Mu buzima bwa muntu habaho amasura menshi bitewe n'ubuzima umuntu arimo, rimwe na rimwe iyo tugize ibyishimo turaseka ariko iyo tugize umubabaro turababara tukarakara, mu maso hakazengamo amarira.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, gifite ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Iri shami rifite umunsi wahariwe kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Aha ni ho ababa bitabiriye uyu muhango baganira ku ndwara zo mu mutwe, ibizitera, uburyo zirindwa ndetse n'uburyo zivurwa umuntu agasubira mu buzima busanzwe.

Rimwe na rimwe hari ibintu dushobora gukora tutazi ingaruka byatugiraho gufata urudodo ukarushumika ku ntoki zawe ebyiri kugira ngo urukurure uzi yuko waruca ariko ukaba utazi yuko bishobora kukugiraho ingaruka igihe rukunyuzemo mu mwanya w'uko rwacikamo kabiri.

Ubuzima bw'amenyo yacu, rimwe na rimwe dufata amenyo nk'aho atari ingingo nk'izindi; ariko burya ntabwo ari bimeze kuko amenyo yacu usanga afite imizi iyafasha mu kuyagaburira zimwe mu ntungamubiri akenera zivuye mu maraso.

Amenyo yacu kubera akazi akora ka buri munsi akunda guhura n'ibizazane, igihe umuntu atayakoreye isuku rimwe na rimwe rero iyo twumvise dufite ikibazo tugana inzobere z'abaganga ku bijyanye n'amenyo bakadusuzumira amenyo bakanatugira inama z'uburyo tugomba kuyafata neza.

Mu gihe turimo turya hari imyanda igenda ihahagama hagati y'amenyo yacu, twajya mu bwisukuriro bw'amenyo ugasanga ntabwo ibashije kuvanwamo n'uburoso, biba byiza iyo wifashishije urudodo ukajya urunyuza hagati y'amenyo kugira ngo ya myanda itaza gutera amenyo yawe kwangirika.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bikwiye kuranga ubuzima bwacu kugira ngo umubiri wacu ukore neza iyi myitozo ngororamubiri rero ntikwiye gusa abantu bafite imbaraga nyinshi nk'abasore n'inkumi gusa ahubwo n'ababyeyi bakwiye kuyikora kugira ngo ingingo zabo zikore neza.

Mu buzima, abantu bakuru hamwe n'abana barakina. Ibyo bigafasha umwana gutinyuka, ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri. Ibyo bikazamufasha mu gukura, mu bwenge, ndetse no mu gihagararo, hakaba hanagaragaramo impano rimwe na rimwe abana baba bafite.

Isoko ry'imbuto n'imboga, ni kimwe mu bintu abantu bifashisha kugira ngo bihaze mu biribwa, aho abantu barangura ibicuruzwa byiganjemo imbuto n'imboga kugira ngo babizane ku isoko bakagurirwa n'abatabifite.

Ibitaro bya Rwamagana biherereye mu Rwanda mu ntara y'ububurasirazuba mu karere ka Rwamagana, bikaba bizwiho gutanga serivisi nziza ku babagana zishingiye ku buvuzi. Ahangaha usanga hariyo abaganga b'inzobere bagufasha mu kibazo cyose wagira cyerekeye ubuzima.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi tugenda duhura n'uburwayi ariko rimwe na rimwe tukabutindana ntitubugeze ku baganga. Ni ngombwa yuko niba wumva utameze neza ndetse no mu gihe wumva umeze neza ariko uba ukwiye kujya kwa muganga ugasuzumwa ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze abaganga b'inzobere bakabigufasha ndetse n'ibyuma byabugenewe.

Ikigonderabuzima cya Rwerere, aha ngaha uhasanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ku bana, urubyiruko, abadamu batwite, aho baza kwisuzumisha mu gihe batwite kugira ngo ubuzima bw'abana bari mu nda bwitabweho.

Hari ibintu bishobora kuranga y'uko umuntu atunze icyumba cy'ubwakiririro kimeze neza kandi giteguye ku buryo bwuje ubuhanga, ibyo ngibyo birimo kuba hari intebe ndetse n'ameza bisukuye kandi bikoranye ubushishozi.

Imiti ijyanye n'ubuvuzi bwo mu ngingo n'imwe muyagufasha mu gihe ugiye gukora imyitozo ngororamubiri, ukabanza ukayisiga ku ngingo kugira ngo ibinure nibiza gutangira kuyaga bisange hariho imiti igufasha mu gukomeza ubuzima bwawe.

Ibi ni bimwe mu byo ushobora kurya kugira ngo wirinde indwara y'umutima kandi mu gihe urya imbuto ziganjemo ibitunguru, inyanya ndetse n'ibindi bishobora kukurinda kurwara indwara y'umutima igihe kandi ukeka ko uyirwaye gerageza ujye kwa muganga kugira ngo upimwe hifashishijwe ibikoresho byabugenewe bikoreshwa n'inzobere.

Ubuzima bw'umubiri wacu cyane cyane inyuma ku ruhu rimwe na rimwe tujya duhura n'ibikomere by'inyuma ku mubiri tukabizinzikana tubijyane kwa muganga ariko burya iyo tubijyanye kwa muganga barabipfuka bagashyiramo n'imiti kugira ngo bikire vuba bikuririnde kuba byakuviramo n'ubusembwa.

Uburyo watekamo icyayi kiryoshye wifashishije ibintu bitavuye kure, ufata amata. ugafata tangawizi, maze ugateka icyayi kiryoshye wafungurira buri umwe wese akanezerwa.